Akazu kari mu ibara ry'umutuku handitseho Eyateri mani, hariho ikirango cy'umu umukobwa, kigaragaza ko ari kwamamaza, bigaragara ko hano hatangirwa serivisi zo kubitsa, kubikura ndetse no kohereza amafaranga.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho MTN bigaragara ko hatangirwa serivise za MTN harimo kubitsa, kubikura ndetse no kohereza amafaranga, imbere y'ako kazu harimo umugabo wicaye ndetse imbere yaho hahagaze umugore bigaragara ko ari gushaka serivise za MTN.

Akazu kari mu ibara ry'umutuku imbere yaho hariho icyapa kiriho imibare, imbere yaho nanone hahagaze umuntu wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru, imbere muri ako kazu hicayemo umuntu bigaragara ko atanga serivisi zijyanye no kubitsa no kubikura amafaranga. Uwo muntu biragaragara ko yaje gusaba serivise z'amafaranga.

Abantu benshi bahagaze bambaye ingofero ziri mu ibara ry'umweru, amataburiya ari mu ibara ry'umweru ndetse bambaye ga ziri mu ibara ry'umweru bambaye n'udupfukamunwa turi mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hari ameza.

Abantu benshi bahagaze imbere yabo hari ameza ateretseho inkweto zitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho bigaragare ko bari kureba ibyo bikoresho, imbere yabo hahagaze umugore wambaye umupira w'ubururu wanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru bigaragare ko ari kubasobanurira iby'izo nkweto.

Ahantu hanini kandi heza hari intebe nyinshi ndetse n'ameza adekoye udutambaro bigaragara ko ari ahantu hahurirwa n'abantu benshi bakaganira cyangwa se bakahafatira amafunguro, hari ibishushanyo ndetse na televiziyo.

Inzu nini ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, imbere yayo hari ibikarito bihateretse imifuka y'ifarini imikoropesho, amabido y'amavuta ndetse n'amabase bigaragare ko ari ibicuruzwa bari gucuruza.

Amacupa menshi ari mu bwoko butandukanye hari ari mu ibara ry'umweru, umutuku ndetse n'umukara, bigaragara ko ari kwamamazwa inyuma yayo hari udufuka twinshi tw'umuceri, bigaragara ko natwo turi kwamamazwa.

Isoko rinini cyane, ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo imineke, harimo imyembe, harimo pome, harimo inyanya, harimo indimu ndetse na voka n'ibindi bicuruzwa byinshi, harimo n'abantu benshi bigaraga ko baje guhaha.

Iduka rinini dukunda kwita alimantasiyo harimo umuntu bigaragara ko ari umucuruzi, imbere ye hateretse indobo nyinshi ndetse n'amacupa arimo bombo ziri mu bwoko butandukanye, inyuma ye hari n'ibindi bicuruzwa nka sesitomate ndetse n'ibindi.

Inzu nini cyane ifite imiryango minini bigaragara ko hakorerwamo ubucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye, harimo indobo, harimo ibikoresho byifashishwa mu isuku nk'imikoropesho, imyeyo ndetse n'ibindi. Ku wundi muryango hari iduka ricururizamo imyenda ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Inzu nini ifite inzugi zifite ibara ry'umweru mu imbere hari umuryango ufunguye urimo etajeri irimo amacupa y'ubwoko butandukanye hariho imyuko, umweyo, indobo, inkweto n'imikoropesho bigaragara ko hano hacururizwa ibi bikoresho.

Abantu benshi bahagaze bambaye imyambaro iri mu ibara ry'umukara ndetse harimo n'abambaye amashati afite ibara ry'umweru, batatu barahagaze bafite icyapa mu ntoki cyanditseho amagambo, bigaragara ko hari ibikorwa bari kwamamaza.

Abantu benshi bahagaze harimo abagabo bambaye amakote, ndetse n'abandi bambaye amakanzu ari mu ibara ry'umweru, harimo n'akandi gatambaro karirimo ibara ry'umukara, bigaragare ko ari abapadiri, harimo n'umugore wambaye agatambaro mu mutwe dukunda kwita ivara, ndetse n'ikanzu iri mu ibara ry'umweru.

Ahantu hari ameza manini ateretseho amasahani ariho ibiryo ndetse n'ibirahure birimo icyo kunywa, biragaragara ko hano hafatirwa amafunguro cyangwa se hahurira abantu bagafata amafunguro cyangwa se ibyo kurya.

Icyumba kinini kirimo igitanda kinini cyiza gisashe amashuka y'umweru gifite n'imisego iri mu dutambaro tw'umweru, ku ruhande rwacyo hari akameza kari mu ibara ry'umukara gateretseho itara riri mu ibara ry'umweru rinini.

Salo nziza kandi nini cyane, irimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye, harimo televiziyo, harimo intebe irimo umusego, harimo kandi gatebe gato ku ruhande, ndetse harimo n'ameza.

Ahantu hanini, hacururizwa ibikoresho by'ubwoko butandukanye, twifashisha mu rugo harimo, utuyunguruzo, imifuka, indobo, imyuko, ingufuri, amasahani, ibiyiko, amajagi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inzu nini, ndende, nziza cyane, iri mu ibara ry'umuhondo, ikikijwe ibirahure, imbere y'aho hari amapave, bigaragara ko ari inzu ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo ibinyabiziga byo mu bwoko bwa moto biri kujya mu bice bitandukanye, imwe ihetse umufuka indi iriho umuntu uyitwaye, ku nkengero z'umuhanda hariho umuntu uri kugenda n'amaguru bigaragara ko ari umuhanda w'abanyamaguru.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo ibinyabiziga byinshi, harimo imodoka iri mu ibara ry'umweru, iri mu ibara ry'umukara ndetse n'iri mu ibara ry'umutuku, mu muhanda hagati harimo imirongo iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, ku nkengero z'umuhanda hahagaze umupolisi.

Umuhanda munini urimo abantu benshi ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka ndetse na moto, hari umumotari wambaye ijire iri mu ibara ry'umutuku ndetse harimo n'umurongo w'ibara ry'ubururu, yambaye kasike n'agapfukamunwa, imbere ye hari umugabo uhagaze wambaye agapfukamunwa kari mu ibara ry'ubururu, afite agacupa mu ntoki bigaragara ko ari umuti ari kumuha ngo yisige mu kiganza.

Umuhanda munini urimo moto iriho umumotari ku ruhande rwe hari umupolisi wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara ndetse harimo n'imirongo y'ibara ry'icyatsi, imbere ye hari akazu kari mu ibara ry'umuhondo bigaragara ko gatangirwamo serivise za MTN.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo ikinyabiziga kiri mu bwoko bwa moto ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara yicayeho umuntu. Hagati mu muhanda harimo imirongo iri mu ibara ry'umweru ndetse bigaragare ko ariho abantu b'abanyamaguru bambukira.